Ni umugore ubona ko akuze wambaye umupira n'ingofero mu mutwe, ukenyeye igitenge ahagaze imbere y'ivomero. Ari kuvomera injerekani ebyiri z'umuhondo, hirya ye hari imisozi iteyeho ibiti.

Ni abantu bicaye ku ntebe z'imbahu zegamirwa, inyuma yabo hari inzu isize irangi ry'ubururu, mu mfuruka hateretsemo puberi y'umutuku.

Ni abana babiri bari ku ivomero. Umwe ari inyuma ari gusunika amazi yambaye agashati k'umweru n'agakabutura kagufi, undi ari imbere ari kuvoma. Hirya yabo hari ubwatsi.

Ni abantu biganjemo abagore n'abagabo. Inyuma yabo, hari inzu ndende isize ibara ry'umuhondo, ifite amadirishya y'ibirahure. Hirya hari ikirabo kirekire. Bahagaze mu mbuga isize ibara ry'umutuku.

Ni abantu bicaye biganjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikanzu y'umweru n'agakote k'umukara, imbere ye hari imeza iriho igitambaro cy'ubururu n'umweru, iteretseho uducupa tw'amazi.

Ni abagore babiri bicaye, bombi bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye ikote ry'umukara undi yambaye itaburiya y'ubururu, imbere yabo hari imeza iteretseho ibintu bitandukanye na mudasobwa, imbere yabo hahagaze umubyeyi wambaye agakote k'umukara n'agapfukamunwa.

Ni abantu basutamye n'abandi bahagaze mu mbuga ngari, biganjemo abagore n'abagabo. Inyuma yabo hari urukuta rw'amatafari, rumanitseho icyapa kiri mu ibara ry'umweru.

Ni abantu benshi batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, bari mu mbuga ngari, hirya hari ihema ry'umweru, imbere yaryo hari idarapo ry'amabara atandukanye harimo: icyatsi, ubururu n'umuhondo.

Ni abantu bahagaze mu mbuga ishashe, biganjemo abagore n'abagabo, bambaye amataburiya y'ubururu butijimye cyane, hagati yabo hahagaze umugabo muremure wambaye ipantaro y'umukara.

Ni abantu benshi batandukanye. Biganjemo abagore n'abagabo, bamwe bambaye udupira tw'ubururu dusa. Imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'ubururu, iryamishijweho akana kambaye umwenda w'umweru.

Ni abagore bari iruhande rw'ivomero, babiri inyuma bari gusunika amazi y'ivomero, undi yunamye imbere yaryo ari kuvomera amazi mu ndobo y'icyatsi afite mu ntoki, ifite umukondo w'icyuma.

Ni umusore usutamye wambaye inkweto z'imikara n'ipantaro y'umukara. Mu maboko ye afite akana gahagaze ku munzani. Inyuma ye hahagaze umugore wambaye ipantaro y'umukara.

Ni umugore uhagaze wifashe mu mayunguyungu wambaye ijipo y'ubururu, ateze igitambaro mu mutwe. Inyuma ye hari abandi bagore, imbere yabo hari imeza iteretseho akantu k'umukara katagaragara neza.

Ni abantu batatu, abagore babiri, buri umwe yambaye igitambaro mu mutwe gisa n'imyenda yambaye n'umugabo umwe uhagaze hejuru wambaye itaburiya y'ubururu uri kubahereza umufuka.

Ni abantu bicaye n'abandi bahagaze mu bicaye harimo umuzungu, iruhande rwe hicaye umugabo wambaye imyenda y'ubururu, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu hejuru gifite ibara ry'umweru.

Ni abantu babiri. Umugore ufite umusatsi usanzwe, wambaye agapira k'umuhondo, ukenyeye igitenge n'umugabo wambaye itaburiya ndende y'ubururu, ufite akapa kariho abana babiri. Uw'umukobwa n'uw'umuhungu.

Ni abantu bicaye bari kurebana, harimo abazungu bari ku ruhande rumwe n'abirabura ku rundi ruhande. Hirya yabo, hicaye undi mugabo, wirabura ukikijwe n'amadarapo abiri. Imbere yabo, hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi.

Ni umusaza wicaye, wambaye akagofero k'umukara, ufite imvi nyinshi mu musatsi, yambaye agakote k'umukara n'agapira k'umweru. Imbere ye, hari imeza, imbere yayo, hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'ubururu n'agatambaro ko mu mutwe, uri kumwitaho.

Ni abana bane bahagaze ku ivomero, umwe ari gusunika amazi, hari injerekani y'umuhondo, hirya yabo hari igisambu kirimo ibyatsi, hirya hari ibiti n'ibyatsi birebire.

Ni abagore bari ku ivomero, babiri bari gusunika amazi undi umwe ari imbere y'ivomero ari kuvomera indobo isa ibara ry'icyatsi, akenyeye agatambaro mu mutwe.

N'inzu mberabyombi ifite igisenge cy'umweru, ikagira amadirishya y'umweru arimo ibirahuri. Hicayemo abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, harimo abambaye amashati agiye asa.

Ni umusore wambaye itaburiya y'umweru, ku ruhande rwe hari umukobwa ukenyeye igitambaro cy'umweru mu mutwe yambaye ikote ry'ibara ry'umukara. Afite ibinini by'umweru mu kiganza cye.

Ni umugabo uhagaze, imbere ye hicaye umugore ukenyeye agatambaro k'umweru mu mutwe, hirya ye hari abandi bantu, iruhande rwabo hari umunzani bapimiramo ibiro by'abana.

Ni abantu bicaye n'undi umwe ubahagaze inyuma. Batatu bo ku ruhande rwo hepfo bambaye amataburiya y'imyeru, aba ruguru bambaye amashati y'ubururu. Bari mu ihema ry'umweru.

Ni umusore ufite umusatsi mwinshi wambaye agapira ka oranje upfukamye ku kaguru kamwe, ari kunywesha amata umwana uteruwe n'umugore wambaye agapira k'umweru, hirya yabo hari abandi bantu.

Ni umusore ufite umusatsi mwinshi wo hejuru wambaye amarinete n'agapira ka oranje, ari kunywesha amata umwana wambaye agapira, uteruwe n'umugore wicaye, wambaye agapira k'umweru. Hirya yabo hari abandi bantu.

Ni abana bahagaze ku ivomero, imbere yaryo hari injerekani zitandukanye, bari kumwe n'undi muntu mukuru wambaye ishati n'ipantaro y'ikoboyi, hirya yabo hari umusozi uriho amabuye n'ibyatsi.

Ni abana babiri. Bose bambaye hejuru imyenda y'umutuku, umwe ari guseka, undi ari kumusukira amazi, ari koga mu kiganza. Hasi yabo, hari icyapa cy'ubururu, cyanditseho amagambo y'umweru.

Ni abantu biganjemo abagore n'abagabo, bicaye mu matsinda mu nzu mberabyombi. Buri tsinda imbere yaryo hari imeza iriho agatambaro k'umweru, iteretseho uducupa tw'amazi.

Ni abantu bahagaze ku ivomeraro. Imbere yabo, hari injerekani ziri ku murongo zitegerejwe kuvomerwa, imbere yazo hahagaze umukobwa wambaye agapira k'umukara, hirya yabo, hari ibiti birebire.

Ni umukobwa uri guseka ufite umusatsi usanzwe wambaye agapira k'umutuku n'akajipo k'umukara usutamye imbere y'ivomero, imbere ye hari injerekani y'ibara ry'umuhondo iteretse mu mabase abiri agerekeranye.

Ni umwana wambaye impuzankano z'ishuri ari guseka, imbere ye hari kandagira ukarabe irimo indobo y'icyatsi ifite umukondo w'icyuma, hasi hari akabase k'icyatsi ari gukarabiramo, hirya ye hari inzu y'amatafari.

Ni abantu bicaye, biganjemo abagore n'abagabo bake. Bambaye amataburiya y'ubururu, imbere yabo bafite ibitabo n'amakaramu mu ntoki. Inyuma yabo hari idirishya rifite ibara ry'icyatsi.

Ni umubyeyi wambaye agapira k'icyatsi, uteze agatambaro k'umuhondo mu mutwe, ari gusunika amazi, imbere ye hari umwana wambaye agakote k'umutuku uri kuvoma, hirya yabo hahagaze abantu, inyuma yabo hari urutoki.

Ni abantu benshi bari gukoma amashyi bahagaze, bambaye amataburiya y'ubururu. Hirya hari uwicaye wambaye ishati y'umweru, bari mu ihema ry'ibara ry'umweru.

Ni abantu batatu, umugore wicaye ufite imisatsi isanzwe uteruye umwana n'undi wambaye itaburiya y'umweru n'iherena ry'icyatsi uri guha imiti wa mwana.

Ni abagabo bicaye, bari kuganira, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'ibara ry'icyatsi, hateretseho ibirahure birimo amazi n'ibirimo umutobe w'imbuto.

Ni ivomero. Imbere yaryo hahagaze umwana uri kuvomera akajerekani k'umuhondo, inyuma hari uri gusunika amazi wambaye agapira k'umweru. Iruhande rwe hari umugore wambaye agapira k'umutuku, hirya hari umwana wambaye agakabutura k'umutuku n'agapira, ufite akajerekani mu ntoki.

Ni abana bato berekeje ibiganza byabo ku ivomero bari gukaraba mu ntoki babyigana bambaye imyenda itandukanye, hirya yabo hari igihuru kirimo uduti duto duto.

Ni abantu bicaye ku ntebe ndende biganjemo abagore n'abagabo, bari mu nyubako isa ibara ry'umweru, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye itaburiya n'inkweto z'umweru.

Ni umubyeyi, wambaye umupira, w'icyatsi kibisi, ukenyeye igitenge, ahetse umwana. Imbere ye hari indobo y'umuhondo n'iy'umutuku, hirya ye gato, hari ivomero.

Ni abantu babiri, umugore wambaye agatambaro mu mutwe, ufite injerekani y'umuhondo mu ntoki. Bahagaze imbere y'ivomero bari kuvomera izo njerekani, hepfo yabo hari ishyamba ry'ibiti birebire.

Ni umugabo uhagaze, wambaye imyenda isa, imbere ye hicaye umugore, hirya yabo, hari ameza ariho ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, higanjemo mudasobwa.

Ni abantu bane abagore batatu bicaye ku ntebe y'urubaho bateze ibitambaro mu mutwe bambaye imyenda isanzwe, imbere yabo hicaye umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kubasuzuma.

Ni abantu bicaye bambaye udupfukamunwa tw'imikara. Harimo abambaye imipira y'imyeru n'abambaye iy'icyatsi kibisi, imbere yabo hari imeza iriho udutambaro tw'umweru iteretseho uducupa tw'amazi.

Ni amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, iruhande rwayo hari igishushanyo cy'umuntu mukuru uteruye akana, munsi haciyemo umurongo w'umweru munsi yawo hari andi magambo y'umweru, byose biri mu ibara ry'ubururu.

Ni abana bahagaze ku ivomero, ririho umugabo wambaye imyenda y'ubururu, uri gusunika amazi avomera zimwe mu njerekani zabo. Inyuma yabo hari igihuru.

Ni umugabo wicaye ku ntebe y'urubaho, yambaye bote z'umweru, afite ibitabo mu kuboko kwe kw'ibumoso, imbere ye hicaye umubyeyi uri kumwe n'umwana mu ntebe y'ubururu.

Ni umugabo uri guseka wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari ijerekani y'umuhondo, ahagaze iruhande rw'ivomero.

Ni umwana muto w'umukobwa yambaye agakanzu k'umweru, ahagaze imbere y'urukarabiro ruriho icyapa cy'umweru ari gukaraba mu ntoki, hirya ye hari ibyatsi bitagaragara neza.

Ni abana babiri, basutamye imbere y'ivomero, bari gukaraba mu ntoki, umwe yambaye imyenda isa, undi yambaye agapira k'umutuku. Inyuma yabo hari ibyatsi byumye.

Ni abana benshi bishimye bazamuye ibiganza, bambaye impuzankano irimo amashati y'imihondo, inyuma yabo hahagaze abantu bakuru harimo umuzungu wambaye akagofero n'uturineti.

Ni umugore wambaye ingofero y'umweru n'agapfukamunwa n'umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, uri gutamika ikinini umwana wicaye ku bibero by'umugore, inyuma ye hari umusore wambaye agapira k'icyatsi n'agapfukamunwa.

Ni abantu bahagaze barimo abagore n'abagabo, hagati ku murongo w'imbere harimo umugore wambaye ikanzu ndende y'iroza, hirya ye hari umuzungu wambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu n'umweru.

Ni umusore uteruye agasahani kariho ibiryo wambaye umupira w'ibara rya oranje, ari kugaburira akana gateruwe n'umubyeyi wambaye agapira k'umweru, hirya yabo hari abandi bantu.

Ni umubyeyi wambaye imyenda isa n'igitambaro akenye mu mutwe, ateruye akana afite igipapuro cy'umuhondo mu ntoki. Inyuma ye hicaye abandi bantu batandukanye.

Ni abantu bahagaze mu mbuga, imbere hari n'abandi basutamye, bahagaze imbere y'inzu isize ibara ry'umuhondo, ifite inkingi zirimo utubara tw'icyatsi n'umukara.

Ni abantu biganjemo abagore ndetse nabagabo, bambaye imipira isa y'ibara rya oranje. Bari gutera ingemwe mu karima k'igikoni. Inyuma yabo hari ibiti.

Ni abantu biganjemo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari imeza iteretseho agasakoshi, ku ruhande rw'inyuma hirya hari umwenda w'umukara.

Ni umwana w'umukobwa wunamye iruhande rw'ivomero, yambaye agapira k'amaboko maremare k'umweru karimo utuntu tw'umukara yambaye n'akajipo k'umweru, imbere ye hari indobo eshatu z'umweru.

Ni umwana wambaye agakote k'umutuku. Imbere ye hari ivomero, ari kuvomera injerekani z'ibara ry'umuhondo. Hirya hari umubyeyi wambaye agapira k'icyatsi uteze agatambaro k'umuhondo, ari gusunika amazi, iruhande rwabo, hagaze abandi bantu. Inyuma yabo hari urutoki.

Ni umugore ufite ibisuko, wambaye agapfukamunwa k'ibara ry'ubururu n'amaherena ateruye umwana, yambaye ishati irimo amabara y'umukara, umweru ndetse n'umuhondo, inyuma ye hari undi mubyeyi uhicaye wambaye agapfukamunwa na we uteruye umwana.

Ni abana babiri, umwe uri imbere amanitse ukuboko yambaye umupira w'ishuri. Inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara kiriho udupapuro tw'umweru, imbere yabo hari imeza.

Ni abana bishimye bari guseka bari kumwe n'umuntu mukuru ari kuboza mu biganza, munsi yabo hari akabase k'umutuku bari gukarabiramo, ku ruhande hateye imihatihati.

Ni abantu batatu bari ku ivomero, abagore babiri ubona ko bakuzemo n'umwana uri iruhande yabo, imbere y'ivomero hateretse injerekani z'ibara ry'umuhondo bagiye kuvomera.

Ni umwana wunamye imbere y'ivomero uri guseka, yambaye agapira ka orange, ari kuvomera igikombe gisa n'ibara ry'umuhondo, hirya ye hari ibyatsi bitagaragara neza.

Ni umugabo wiyogoshesheje umusatsi umazeho wambaye ibitambaro, yunamye imbere y'ivomero imbere ye haringirekani y'umuhondo ari kuvomera iruhande rwayo hari akajerekani gato k'umweru kurundi ruhande hari ak'umukara n'ibihuru biri iruhande ye.

Ni abantu bicaye ku ntebe z'imikara biganjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi, inyuma yabo hari amadirishya y'ibirahuri.

Ni abana babiri basutamye imbere y'ivomero, bari gukaraba mu ntoki, umwe yambaye imyenda isa, undi yambaye agapira k'umutuku, hirya yabo hari ibyatsi byumye.

Ni umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri, imbere ye hari kandagira ukarabe, ari gukaraba mu ntoki, hirya ye hari abandi bana, hirya yabo hari ibiti.

Ni abantu bahagaze bambaye amataburiya y'ubururu, hino hari uwambaye itaburiya y'umweru, hagati yabo hahagaze umugabo w'umuzungu wambaye imyenda y'umukara n'amarinete.

Ni abantu batanu, abagore bane n'umusore umwe, bambaye imipira isa y'ubururu n'ingofero z'imyeru. Inyuma yabo hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Ni abantu bahagaze ku ivomero, bamwe bahagaze inyuma yaryo, abandi babiri bahagaze imbere yaryo, bari kuvomera indobo ebyiri, imwe y'umutuku n'indi yibara ry'ubururu.

Ni abana bambaye impuzankano y'ishuri bamwe bari hirya mu mbuga abandi bahagaze imbere y'ivomero bari koga mu ntoki, umwe ahetse igikapu inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari.

Ni abantu babiri bahagaze umugore n'umugabo wambaye kositime, inyuma yabo hari ibyapa bitatu, ikiriho abana bari guseka, ikiriho amagambo y'umweru ari mu ibara ry'ubururu n'ikiriho umubyeyi uteruye akana.

Ni amagambo ari mu ibara ry'umweru, iruhande rwayo hari ikirango cy'umuntu mukuru uteruye umwana, munsi yayo haciyemo umurongo w'ibara ry'umweru, munsi yawo hari andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ni abagabo batatu bahagaze, babiri bari ku mpande bambaye amataburiya y'ubururu, bafite udukarito mu ntoki, bose bambaye udupfukamunwa n'udutambaro tw'ubururu mu mutwe.

Ni abantu babiri bicaye. Umugabo yambaye agapira k'ubururu, umugore yambaye agashati k'umweru. Yambaye n'agapfukamunwa mu kuboko kw'ibumoso afitemo ikaramu. Ari kwandika mu gitabo.

Ni abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, bambaye amataburiya y'ubururu. Ku ruhande harimo umwe wambaye iy'umweru, hagati hahagazemo umuzungu wambaye imyenda y'umukara.

Ni abantu batatu. Abana babiri begamye ku ivomero. Umwe wambaye agapira k'umutuku n'undi mukobwa ubona ko ari mukuru ufite akagofero mu mutwe uteruye injerekani y'umuhondo ari kuyivomeramo.

Ni abantu babiri, umugabo wambaye agapfukamunwa n'umugore wambaye agapira k'umweru n'agapfukamunwa uri kumutera urushinge, hirya yabo hari abandi bantu hari n'imeza iriho igitambaro cy'icyatsi kibisi.

Ni abana bambaye impuzankano z'ishuri. Imbere yabo hari amavomero atatu. Hasi y'ayo mavomero hari indobo z'imihondo zifite imikondo y'ibyuma.

Ni umubyeyi ukenyeye igitenge wambaye agapira k'amaboko magufi, uteruye umwana wambaye akagofero. Ari ku ivomero, ari kuvomera indobo y'umukara, ifite umukondo w'icyuma.

Ni abagore batatu, babiri bunamye imbere y'ivomero umwe ari kunywa amazi, imbere yabo hari injerekani ebyiri z'imihondo, inyuma y'ivomero hahagaze undi wambaye agashati k'umutuku.

Ni umugore wambaye imyenda isa n'igitambaro ateze mu mutwe, ateruye umwana, afite igipapuro cy'umuhondo mu ntoki, inyuma ye hari abandi bantu bicaye n'abahagaze.

Ni abana bari kumwe n'abantu bakuru bicaye hasi ku itapi no ku musambi, muri abo bantu harimo umuzungu wicaranye nabo inyuma yabo, hari imeza iteretseho ibirahure, ku ruhande rwo hirya, hicaye abandi bantu batatu ku ntebe.

Ni abana bagera muri batandatu bambaye impuzankano z'ishuri, bari ku mavomero, hasi yabo hari indobo z'umuhondo hirya hateye ibiti ibirebire.

Ni abantu batanu bicaye ku ntebe z'imikara, abagabo batatu n'abagore babiri b'abazungu. Imbere yabo hari imeza iteretseho udukarine ndetse n'amazi apfundikiye.

Ni bantu bicaye ku ntebe z'icyatsi biganjemo abagore n'abagabo, bamwe bambaye amashati, abandi bambaye amakoti, imbere yabo hari imeza iteretseho udusahane duteretseho udutasi tw'icyayi.

Ni urukuta rusize ibara ry'umuhondo, ku ruhande rwo hepfo hari idirishya ry'ibirahuri, mo imbere hari abantu bicaye n'abandi bahagaze, inyuma hari icyapa gisa ibara ry'ubururu.

Ni abana bicaye ku ntebe z'ishuri, bambaye impuzankano n'udupfukamunwa tw'amabara atandukanye. Inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Imbere yabo hateretse amasahani ariho ibiryo.

Ni abantu bahagaze ku mirongo itatu itandukanye biganjemo abagore n'abagabo, inyuma yabo hari icyapa cy'ibara ry'ubururu cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ni umwana wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara. Yunamye imbere y'ivomero ari kuvomera injerekani y'ibara ry'umweru. Hirya ye hari abandi bantu batagaragara neza.

Ni abantu bane bicaye, babiri bambaye imyenda y'imikara, umwe ni umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ze, imbere yabo hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi na mudasobwa.

Ni mwana wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, yunamye imbere y'indobo ari koga mu ntoki, iteretse ku ntebe ifite umufuniko n'umukondo by'ubururu, hirya ye hari urugo.

Ni umugabo wunamye uri guseka, wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro n'inkweto by'umukara. Ari gukaraba mu ntoki, imbere ye hari kandagira ukarabe.

Ni abantu batanu bahagaze harimo abagore bane n'umusore umwe. Umwe azamuye akaboko, imbere yabo hari icyapa cy'ubururu, cyanditseho amagambo y'umweru.

Ni umwana uciye bugufi ateruye indobo mu ntoki ze ifite umukondo w'icyuma agiye kuyikorera. Imbere ye hari ivomero iruhande yaryo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi...

Ni umubyeyi wambaye ishati ukenyeye n'igitenge, yikoreye indobo y'ibara ry'umutuku, mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo indi y'ibara ry'umuhondo, ifite umukondo w'icyuma.

Ni abantu bicaye harimo abagabo n'umugore umwe wambaye umupira w'umuhondo, imbere yabo hari imeza iriho ibitambaro by'ubururu n'umweru hateretseho uducupa tw'amazi n'impapuro zanditseho.

Ni ivomero risize irangi ry'ibara ry'ubururu, rikikijwe n'abantu harimo abana bafite injerekani n'indobo ubona ko biteguye kuvoma, ku ruhande rwo hino hari umusore wambaye kasike y'umuhondo.

Ni abantu bari gukoma amashyi, biganjemo abagore n'abagabo, bambaye amataburiya y'ubururu. Imbere yabo hahagaze umuzungu wambaye imyenda y'imikara, inyuma yabo hari inzu isize irangi ry'umuhondo.

Ni umugore w'umuzungu ufite imisatsi isanzwe, wambaye agapira k'amaboko magufiya, afite isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso, naho mu kw'iburyo acigatiye indangururamajwi.

Ni intoki z'umuganga yambaye ga z'umweru, afite urushinge mu ntoki ari kurutera ku kuboko k'undi muntu utagaragara wambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara.

Ni umubyeyi wicaye ku gatanda ko kwa muganga yambaye ikanzu y'ubururu, akenyeye igitambaro iruhande rwe hari umuganga ukenyeye igitambaro cy'umukara wambaye n'itaburiya y'umweru uri kumwitaho.

Ni umwana wambaye impuzankano, afite uducupa tubiri mu ntoki turimo amazi, yambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ibara ry'ubururu, hirya ye hari igisambu kirimo ubwatsi, ku ruhande rw'ibumoso bwe hahagaze abandi bana.

Ni abagore bari ku ivomero. Bamwe bari inyuma bari gusunika amazi, imbere hunamye undi umwe uri kuvomera indobo ifite ibara ry'icyatsi, akenyeye igitenge cy'umutuku hanyuzemo utubara tw'umukara n'agatambaro mu mutwe.

Ni abagabo babiri bari kuramukanya, umwe afite ibitabo mu kuboko kwe kw'ibumoso yambaye n'amarinete, imbere yabo hateretse agacupa k'amazi, hirya yabo hari icyapa cy'ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Ni umukecuru ubona ko akuze, ufite amenyo agiye arimo imyanya, yambaye imyenda isa n'igitambaro yiteze mu mutwe, inyuma ye hari abandi bantu batagaragara neza.

Ni abagore babiri bari kureba mu gakoresho gapima ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu, umwe yambaye agapira k'umweru, undi ateruye umwana yambaye agatambaro k'ubururu mu mutwe.

Ni abagore batatu bose bateze udutambaro mu mutwe umwe uri imbere ari konsa umwana bose bafite inkoni mu kuboko kwabo kw'iburyo inyuma yabo hari imirima ihinzemo hirya hari urutoki.

Ni umugore w'umwirabura wambaye amaherena kumatwi yombi ukw'ibumoso n'ukw'iburyo, akenyeye igitambaro mumutwe mumaso ye yarakaye.

Ni abantu bari mu nzu mberabyombi bicaye, imbere yabo hahagaze umugore ufite imisatsi miremire, inzu barimo ifite inkuta ziteye ibara ry'umuhondo.

Ni abantu bahagaze, biganjemo abagore ndetse n'abagabo. Umwe mu bagore yambaye ijipo y'ibara ry'icyatsi, yegeranye n'uwambaye iy'ibara ry'umukara.

Ni abantu babiri. Umwe yambaye neza ishati y'umutuku irimo utuntu tw'ubururu n'ipantaro y'umukara. Undi yambaye inshabure arasa nabi n'umusatsi we ntumeze neza.

Ni umwana wambaye akenda k'umweru, ufite umusatsi w'injwiri ari kurira, inyuma ye hari abandi bantu benshi, hafi ye hari umugore ufite ibiti cyangwa se inkwi mu ntoki.

Ni umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'amaboko magufiya, uhetse igikapu. Ahagaze iruhande rw'igipangu cy'amatafari, kiriho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye yiganjemo umutuku n'ubururu.

Ni abantu bahagaze biganjemo abagore n'abagabo. Imbere hari abagore babiri bambaye amajipo. Umwe yambaye indende y'ibara ry'icyatsi, undi yambaye ingufi y'ibara ry'umukara.

Ni umugore uri guseka, ufite ibisuko birebire, wambaye akajire k'umweru, ari mu ibotiki irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hirya ye hateye akayetajeri.

Ni inzu isize irangi ry'umuhondo, ku ruhande hariho akandi kazu gato gasize ibara ry'ubururu, hasi ifite fondasiyo y'amabuye, ku ruhande ifite garidefu zisize ibara ry'ubururu.

Ni umwana uri guseka, utaramera amenyo n'umusatsi, wambaye agapira k'umweru, uteruwe n'umubyeyi ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye agapira k'umweru. Inyuma yabo, hari inzu yubakishije amatafari.

Ni umusaza wambaye ishati y'ubururu yiteye umwitero wibara ry'umuhondo yakutse amenyo abiri y'imbere, yo hejuru n'abiri y'imbere yo hasi.

Ni umugore wicaye hasi uteze agatambaro mu mutwe uteruye umwana. Ku ruhande rwe n'inyuma ye hari abandi bana, imbere ye hari inkoko iteretseho agasahani k'umutuku.

Na abantu batatu b'igitsina gore bambaye udupfukamunwa, babiri bambaye udusa bafite n'ibisuko. Umwe yambaye agasa n'ingofero yambaye mu mutwe, kuruhande rwabo hari igikapu cy'umukara.

Ni abantu bicaye ku ntebe z'umutuku, umwe muri bo ni umugore ufite indangururamajwi, imbere yabo hari imeza iriho agatambaro k'umweru iteretseho mudasobwa n'uducupa.

Ni abantu bicaye n'abandi bahagaze, bari mu nzu mbonerabyombi, inyuma yabo, hari icyapa kiri mu ibara rya oranje, hejuru ni umweru, handitsemo amagambo ari mui ibara ry'icyatsi, iry'umuhondo n'iry'ubururu.

Ni umukobwa mukuru ufite imisatsi myinshi y'umukara uri guseka, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'agasengeri k'umukara yicaye mu ntebe, inyuma ye hari ibirabo.

Ni umukecuru ubona ko ashaje, wambaye urunigi mu ijosi n'iherena ku gutwi kwe kw'iburyo. Akenyeye agatambaro k'umweru mu mutwe, mu isura ameze nk'uwenda kurira.

Ni abantu benshi bicaye higanjemo abagore n'abagabo. Imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikanzu y'umweru n'agakote k'umukara, imbere hari imeza iriho ibitambaro by'umweru n'ubururu biteretseho amasakoshi n'uducupa tw'amazi.

Ni abantu bicaye, umwe ni umugabo n'abagore batatu, umwe muri abo afite agapfukamunwa ku kuboko kwe kw'ibumoso, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu.

Ni abantu babiri, umugore ukenyeye igitenge wambaye umupira w'icyatsi, ukenyeye n'agatambaro k'ubururu mu mutwe, imbere ye hari imeza iriho agatambaro k'umuhondo iteretseho agacupa k'amazi acagase.

Ni umuntu wambaye imyenda isa nabi n'inkweto zishaje, ku ruhande rwe hari inkoni n'uducupa tubiri turimo ubusa, inyuma ye hari abandi bantu barikugenda n'abarikuza batagaragara neza, hirya ye hari undi wicaye.

Ni abantu bahagaze biganjemo inkumi, abagabo n'abagore. Hagati yabo hahagaze umugabo muremure wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Abandi bambaye imipira y'ubururu, ku ruhande rw'iburyo hahagaze umuzungu wambaye ikote ry'ibara rya kaki.

Ni umuntu wambaye imyenda yacikaguritse, ufite ibintu bitandukanye bisa nabi, yisize ibintu by'umukara mu maso, inyuma ye hari imodoka nini y'igikamyo, ifite ibara ry'icyatsi ahagana imbere n'umukara inyuma.

Ni umusaza uri guhamiriza, wakutse amenyo y’imbere, ayo hasi n’ayo hejuru. Yambaye agashati k’umweru, yiteye umwenda w’ibara ry’umuhondo. Afite icumu mu kuboko kwe.

Ni abantu babiri bicaye, umugabo wambaye agapfukamunwa n'umugore ufite indangururamajwi, imbere yabo hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi, inyuma yabo hari ibyapa bitandukanye bine.

Ni abantu bahagaze, biganjemo abagore n'abagabo. Hagati yabo hahagaze Umupolisi wambaye impuzankano za Gipolisi. Ku ruhande rw'ibumoso hahagaze umugore wambaye imyenda y'umuhondo, ukenyeye n'agatambaro mu mutwe k'umuhondo.

Ni abantu babiri, bose bicaye ku ntebe z'urubaho, umwe afite ibisuko yambaye agashati k'umukara n'ipantaro y'umukara afite impapuro mu ntoki ze, undi yiteye igitambaro cy'umutuku bari kuganira.

Ni abantu bahagaze biganjemo abasore n'inkumi, hagati yabo hahagaze umugabo muremure wambaye ipantaro y'umukara nishati y'umweru na karuvati.

Ni abantu bicaye ku ntebe z'imikara ahantu mu nzu mberabyombi, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote n'ipantaro y'ikoboyi n'agashati k'umweru, imbere yabo hari imeza iteretseho amazi n'injyana kure y'inziramugozi.

Ni abagore batatu bicaye ku ntebe, babiri bateruye abana b'impinja mu ntoki, umwe afite imisatsi miremire yambaye ikote n'ipantaro y'umukara, imbere yabo hari imeza.

Ni umukobwa ufite umusatsi usanzwe ujya kuba mwinshi w'igikara uri guseka. Yambaye agapira k'umukara arengejeho agakote k'umutuku. Inyuma ye hari inzu itagaragara neza.

Ni abana bishimye, bazamuye ibiganza byabo hejuru, bambaye impuzankano z'ishuri, hirya yabo hari idarapo ryiganjemo amabara y'umuhondo, icyatsi, n'ubururu.

Ni abakobwa babiri bicaye. Umwe yambaye ingofero ya gisirikare mu mutwe, n'agakote k'umutuku. Undi yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara.

Ni umukecuru wicaye, iruhande rwe hari igikombe cy'icyatsi. Imbere ye hari iziko riteretseho isafuriya, hirya ye hari inzu y'amatafari ifite inzugi z'ibara ry'icyatsi.

Ni abantu benshi bahagaze biganjemo abapolisi n'abasivili, imbere hahagaze umugore wambaye ipantaro y'umutuku n'ishati y'umweru, uri hagati y'abapolisi babiri.

Ni abantu batatu, umwe bigaragara ko ashonje cyane, amagufwa ye yanamye, uteruwe n'undi ufite inkoni mu ntoki, iruhande rwe hari undi mugore umufashe, mu mpande zabo, hari akana.

Ni abagore bane bicaye ku ntebe y'urubaho umwe muri bo akenyenye igitambaro mu mutwe, undi afite igipapuro cy'umweru mu ntoki, imbere yabo hicaye umugabo inyuma yabo hari urutoki n'ishyamba.

Ni umugore ufite umusatsi usanzwe, wambaye agapira k'umuhondo n'igitenge, wicaye ku musambi uhinnye. Yambaye kamambiri zishaje, aziritse umunyururu ku kuguru kw'iburyo ufashe ku giti.

Ni abantu bicaye n'abandi bahagaze mu mbuga ishashe. Abicaye ni abagabo gusa, inyuma abahagaze higanjemo abasore n'inkumi. Inyuma yabo hari igikontineri cy'ibara ry'umweru.

Ni umusore wicaye ufite umusatsi mwinshi wambaye akagofero k'uruhanika, uhetse igikapu wambaye ikote. Iruhande rwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara niryi cyatsi.

Ni umugabo ubona ko akuzemo wicaye hasi wambaye agapira k'umutuku n'agakabutura kagufiya, ku maboko ye afungishije amapingu, inyuma ye hari umupolisi wambaye imyenda y'umukara, iruhande rwe hari abantu benshi.

Ni abagore bane bicaye ku ntebe y'urubaho, imbere yabo hari umugabo umwe na we wicaye ku ntebe y'urubaho. Umwe muri abo bagore afite ikayi mu ntoki. Inyuma yabo hari urutoki n'ibiti.

Ni abagore bicaye, hagati yabo harimo uwambaye imyenda isa n'igitambaro ateze mu mutwe. Imbere yabo hari imeza iriho igitambaro giteretseho amacupa arimo amazi. Imbere yabo hari umugore ufite indangururamajwi.

Ni umugabo ufite ubwanwa bukeya, wambaye umupira w'umweru, afite akadodo mu biganza bye ari kukanyuza mu menyo ye abiri ya ahagana hejuru.

Ni abantu bari ku murongo, imbere yabo hari imashini ipima ibiro ndetse n'uburebure bw'umuntu, imbere yabo hari ihema ry'umweru ririmo abantu.

Ni abantu babiri umwana n'umusore mukuru, bose bambaye imipira y'ibara ry'imyeru, bafite akadodo k'umweru bari kukanyuza mu menyo yabo.

Ni umugabo ufite ubwanwa butari bwinshi cyane, wambaye igituza hejuru, yiteye agasume k'umweru, afite akadodo k'umweru mu ntoki ze, ari kukanyuza mu menyo ye.

Ni umugabo wambaye itaburiya y'umweru, uri kumwe n'umwana wambaye ishati yicyatsi. Bateruye igishushanyo mbonera cy'amenyo, inyuma yabo, hahagaze abandi bantu, harimo umuzungu, inyuma yabo, hari ikibaho cy'umukara.

Ni umusore ufite ubwanwa bukeya budaconze yambaye agapira k'umweru afite iherena ku zuru atunze agatoki ku menyo ye.

Ni umusore ufite utwanwa dukeya n'umusatsi mukeya, mu ntoki ze afashemo akadodo k'umweru. Ari kukanyuza mu menyo yiwe yo hejuru y'imbere.

Ni abana bicaye mu ntebe z'ishuri, bambaye impuzankano z'ishuri, mu maboko yabo bateruye uburoso bw'amenyo n'imiti y'amenyo. Inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara.

Ni abana bambaye impuzankano z'ubururu, bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki. Umwe afite ubusa ibara ry'umuhondo, uri inyuma ye afite ubusa ibara ry'icyatsi.

Ni umusore w'inzobe ufite umusatsi uringaniye, ufite ubwanwa buke buconze, yambaye umupira, arengejeho agakote k'ikoboyi.

Ni abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri bahagaze mu ntebe. Bari kumwe n'umukobwa mukuru ufite ibisuko wambaye agashati k'umweru karimo utubara tw'umutuku n'agapantaro k'umukara.

Ni umuganga wambaye ga n'ishati y'itaburiya by'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru n'agatambaro mu mutwe, ari gusuzuma mu menyo y'umusore uryamye ufite imisatsi mikeya wirabura.

Ni inzu ndende y'amagorofa abiri, igizwe n'ibirahuri, hejuru hubakishije ibara ry'icyatsi, handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Ni umukobwa w'inzobe, wambaye agasengeri k'umweru, ukenyeye isume y'umweru mu mutwe, afite uburoso mu kuboko kwe kw'iburyo, ari gukora isuku y'amenyo.

Ni umugabo uri guseka ufite imisatsi y'umukara. Yambaye umupira w'amaboko maremare, mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo akuma kagaragaza imiterere y'amenyo.

Ni umugabo ufite ubwanwa buke ku kananwa, yambaye umupira w'umweru. Afite akadodo k'umweru mu ntoki ze ari kukanyuza mu menyo yiwe y'imbere ahagana hejuru.

Ni umusore ufite ubwanwa n'umusatsi mukeya, wambaye igituza hejuru. Mu ntoki ze afite akagozi k'umweru, ari kukanyuza mu menyo ye y'imbere.

Ni umusore ufite utwanwa dukeya kukananwa, yambaye umupira w'ibara ry'umweru. Ari guseka cyane, inyuma ye hari ibara ry'umuhondo.

Ni umusore ufite ubwanwa bushokonkoye ariko butari bwinshi, yambaye igituza ku gice cyo hejuru, afite akantu gakora isuku mu menyo ari kwikoreramo isuku.

Ni umuganga wambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, yambaye agapfukamunwa n'amarinete, imbere ye haryamye umwana, ari kumusuzuma mu kanwa mu menyo.

Ni umugabo ufite umusatsi muke n'ubwanwa buke, uri kwireba mu ndorerwamo, yambaye umwenda w'umweru, afite akadodo mu ntoki ze ari kukanyuza mu menyo ye y'ahagana hejuru.

Ni umusore ufite ubwanwa bukeya uri guseka, ufite umusatsi w'umukara ugerereye, aryamye ku gatebe k'umweru, yambaye agapira, imbere ye hashasheho agatambaro k'umweru.

Ni umugabo ufite ubwanwa n'umusatsi bike, ari kwireba mu ndorerwamo. Yambaye impeta ku rutoki rwe rwa mukuru wa mame, ari kwikorera isuku mu menyo akoresheje uburoso bw'amenyo. Yambaye umwenda w'umukara.

Ni abantu babiri, umugore n'umwana bose bafite imisatsi y'imikara myinshi, bambaye udusengeri tw'imyeru, bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki zabo.

Ni abaganga babiri umusore ndetse n'umukobwa, bambaye amashati y'imikara n'udupfukamunwa, hasi yabo haryamye umurwayi bari kumusuzuma.

Ni abantu batatu. Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa n'amarinete, umwe yambaye ishati y'ubururu y'amaboko magufi, undi yambaye iy'umweru. Imbere yabo hari umugore uharyamye bari kumusuzuma mu kanwa.

Ni umugabo ufite utwanwa duke ku kananwa wogoshe wambaye itaburiya y'umweru, mu mufuka irimo ikaramu, wambaye isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso, yicaye ku ntebe y'icyatsi ifite amapine y'imikara.

Ni umukobwa ufite umusatsi mwinshi, uri kwireba mu ndorerwamo, yambaye agasengeri k'umukara ari koza amenyo ye anaseka.

Ni umusore ufite ubwanwa budacoze neza bukeya, wambaye ubusa ku gice cyo hejuru, afite akadodo k'umweru, akarambuye imbere y'amenyo ye.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, mo imbere yambaye ishati na karuvati y'umutuku, imbere ye haryamye umurwayi wambaye agapira k'icyatsi, ari kumusuzuma mu kanwa.

Ni abantu babiri, bari kwireba mu ndorerwamo. Umusore n'umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara, bose bambaye imipira y'imyeru. Bafite utudodo tw'umweru, bari kutunyuza mu menyo yabo.

Ni abantu babiri, umugabo wambaye agapira k'umukara, iruhande rwe hari umuzungu ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye agashati k'umweru, ufite agatabo mu ntoki.

Ni abantu babiri umugore n'umugabo ubona ko bakuzemo, umugabo ufite imvi mu musatsi no mu bwanwa n'umugore ukenye agatambaro k'umutuku mu mutwe uri guseka.

Ni abantu babiri, umukecuru ufite umusatsi w'imvi z'umweru urambuye amaboko, imbere ye hahagaze umugore w'imisatsi miremire, ufashe ku kuboko kwe kw'iburyo.

Ni umukecuru wicaye ukenyeye igitenge cy'umuhondo wambaye agatambaro k'umweru mu mutwe, imbere ye hari ishyiga riteretseho inkono. Inyuma ye hari ibihuru birimo imihatihati.

Ni abagore bicaye, bose bambaye imyenda igiye isa, bamwe bakenyeye ibitambaro mu mutwe, umwe ni we utagikenyeye. Imbere yabo hari inyanya, inyuma yabo hari imbuto zitandukanye.

Ni abantu babiri umugabo ukuzemo ufite imvi mu bwanwa no mu musatsi, wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umutuku, iruhande rwe hari umugore ukuzemo, imbere yabo hari imeza iteretseho mudasobwa.

Ni abantu babiri bari mu myitozo, umugore wambaye agatambaro k'umutuku mu mutwe n'umupira w'amaboko maremare, uri kumwe n'uwambaye agakote k'umukara karimo uturongo tw'umweru, hirya yabo hari ibiti.

Ni abantu babiri, umukecuru wicaye ubona ko akuzemo wambaye agashati k'amaboko maremare, imbere ye hari imeza iteretseho ikirahure kirimo amazi. Iruhande rwe hahagaze umuntu ufite imisatsi y'imikara uri kumuha ibinini.

Ni abantu babiri, umukecuru n'umusaza, bose bafite imisatsi ubona ko yiganjemo imvi z'imyeru, bambaye imipira y'umutuku, uw'umukecuru uciyemo uturongo tw'umukara, imbere yabo hari imeza iteretseho imiti itandukanye.

Ni abantu babiri bicaye, umusaza n'umukecuru bose bafite umusatsi wiganjemo imvi nyinshi, imbere yabo hari imeza iteretseho agakombe, hirya hara akandi kariho ibinini.

Ni abantu babiri, umusaza ubona ko akuzemo, ufite imvi z'umweru mu mutwe no ku bwanwa, yambaye rinete, yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kugenda, inyuma ye hari umukobwa uri kumusunika.

Ni abagore batatu bari muri siporo, umwe yambaye rinete, afite agapfukamunwa mu kuboko kwe kw'ibumoso, abandi babiri bambaye imyenda y'ubururu hejuru, inyuma yabo hari abandi bantu.

Ni abantu batatu. Umukecuru ufite imisatsi y'imvi z'umweru, wambaye amarinete n'agapira k'umukara, ari hagati y'umukobwa n'umusore wambaye agapira k'umutuku ufite ubwanwa, uteruye isahani iriho ibyo kurya birimo imikati.

Ni abantu babiri, umugabo ubona ko akuzemo ufite imisatsi n'ubwanwa byiganjemo imvi z'umweru wambaye n'agapira n'ipantaro y'umukara, n'umugore ufite imisatsi ifunze wambaye amataburiya yo kwa muganga y'ubururu.

Ni abantu babiri, umugabo ubona ko akuzemo wiyogoshesheje ariko ufite ubwanwa bwiganjemo imvi, imbere yabo hari imeza iteretseho agakoresho gapima imikorere y'umutima.

Ni abagore batatu bakuzemo bari kureba muri terefone, umwe uri hagati afite umusatsi urimo imvi yambaye amarinete abandi babiri bambaye ingofero.

Ni abasaza bicaye mu ntebe za mwegamirwa ziri ku rubaraza rw'urugo, bamwe bafite inkoni mu ntoki abandi ntazo, abandi bambaye ingofero abandi ntazo.

Ni abagore babiri, umwe yambaye amarinete afite umusatsi wiganjemo imvi z'umweru nyinshi, imbere yabo hari imboga zitandukanye, ari kuzikatamo uduce.

Ni abantu babiri. Umugabo ubona ko akuze, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma ye, hari umugore wambaye ishati n'ipantaro by'ubururu.

Ni abantu batatu. Umukecuru ubona ko akuzemo ufite imvi nyinshi mu musatsi n'umugore ufite ibisuko wambaye amarinete. N'akana kambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare k'agahungu.

Ni umugore ubona ko akuzemo yi yogoshesheje umusatsi wose yambaye amaherena afite ikirahure kirimo amazi mu kuboko kwe kw'iburyo hanyuma mu kw'ibumoso harimo ibinini.

Ni abantu babiri. Bari mu nzira nyabagendwa, bombi bambaye amakote y'imbeho. Umukecuru, yambaye ingofero n'inkweto z'umukara. Umukobwa afite agakapu mu ntoki ahetse n'akandi.

Ni abantu bahagaze mu murima, harimo abagabo batatu abandi ni abagore bazamuye amaboko, inyuma yabo hahinze ibigori, imbere yabo hari ibihuru by'ibyatsi.

Ni abantu babiri umusaza uteze ingofero ufite ubwanwa buke burimo imvi n'umukecuru ufite umusatsi urimo imvi witeye igitambaro. Inyuma yabo hari abandi bantu bahagaze.

Ni umugabo uri gukina n'akana gato, gateruye umupira mu ntoki, bari mu kibuga cya basiketi, inyuma yabo hari ibyatsi, hirya hari inzu.

Ni abantu babiri ubona ko bakuzemo, umugabo ufite umusatsi n'ubwanwa byiganjemo imvi, wambaye amarinete n'ishati y'amaboko magufi, iruhande rwe hari umukecuru na we ufite umusatsi wiganjemo imvi, imbere yabo hari imeza iteretseho impapuro.

Ni abantu babiri, umugabo ubona ko akuzemo ufite imvi nyinshi mu bwanwa wambaye agapira k'umukara, imbere ye hari imeza iteretseho mudasobwa n'ikirahure cy'amazi, ku ruhande rwe hahagaze umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye agapira k'umweru.

Ni abantu babiri, bari gukora imyitozo ngororamubiri. Umwe yambaye agatambaro k'umweru ku kuboko kwe kw'iburyo, afite imisatsi ubona ko irimo imvi, undi yambaye agasengeri.

Ni abagabo bari gukora imyitozo. Bose bambaye imyenda y'imyeru hejuru, hasi bambaye amapantaro y'imikara arimo utuntu tw'umweru. Uwo hirya mu kuboko kwe kw'iburyo harimo agacupa, uwo hino mu kuboko kw'ibumoso na we harimo agacupa gapfundikiye.

Ni abantu babiri, umukecuru ufite umusatsi wiganjemo imvi z'umweru, wambaye agapira k'umukara, imbere ye hicaye umusaza nawe ufite ubwanwa burimo imvi, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki.

Ni umubyeyi wambaye umupira w'umweru uri kumwe n'umwana ufite imisatsi isanzwe, imbere yabo hari imeza iteretseho utuntu tw'umweru.

Ni abantu batatu. Umukecuru ufite imisatsi y'umweru wambaye agapira k'umweru, mo imbere harimo isengeri y'umukara, bari gukina amakarita. Imbere yabo hari ameza.

Ni abantu babiri umusaza wogoshe umutwe, ufite ubwanwa bwiganjemo imvi z'imyeru, ateruye ikirahure kirimo amazi, iruhande rwe hari umukobwa uri kumuha ibinini.

Nabantu babiri umukecuru wicaye ufite ikirahure kirimo amazi imbere ye hari meza iteretseho udukarito twimiti kuruhande rwe hahagaze umugore uri kumuha imiti wambaye imyenda yubururu.

Ni umusaza ufite umusatsi urimo imvi z'umweru, wambaye n'amarinete, n'umupira w'umuhondo, yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda. Iruhande rwe hicaye akana, kambaye umupira w'icyatsi, gafite imisatsi myinshi.

Ni abasaza babiri bahagaze, bombi bambaye ingofero, umwe yambaye amarinete. Undi yiteye umwitero w'umukara, yambaye ishati y'umweru, inyuma yabo hahagaze abandi bantu harimo umusaza n'abandi biganjemo abagore n'abagabo.

Ni abantu babiri, umugabo wicaye ku gitanda gishasheho amashuka y'umweru, wambaye amarinete n'umugore w'umuzungu wambaye agapira k'umweru karekare, uri kumuterura.

Ni abantu babiri, umusaza n'umukecuru bafite imisatsi yiganjemo imvi z'umweru, imbere yabo hari imeza iteretseho utuntu tw'umukara tugiye turimo utudomo tw'umweru.

Ni umukecuru ufite umusatsi mwinshi, wiganjemo imvi z'umweru, yambaye amarinete. Afite ikirahure mu kuboko kwe kw'ibumoso, yambaye iherena ku gutwi kwe kw'ibumoso kuri kugaragara.

Ni abantu babiri, umugabo ubona ko akuzemo ufite umusatsi n'ubwanwa arimo imvi, wambaye agapira k'ubururu, inyuma ye hahagaze umuganga wambaye itaburiya iy'umweru imufashe ku bitugu no ku kuboko.

Ni umugabo wambaye agapira k'umukara ubona ko ukuzemo, ikirenge kimwe yambaye urukweto ikindi nta kintu yambaye, iruhande rwe hahagaze umugore w'umuzungu w'imisatsi y'umukara wambaye agashati k'umweru ufite agatabo mu ntoki.

Ni abantu babiri, umusaza ubona ko akuzemo ufite imvi mu musatsi no mu bwanwa, wambaye amarinete n'agapira k'amaboko magufi n'umusore ukiri muto, wambaye agashati k'umukara n'umweru, imbere yabo hari imeza iteretseho udukombe tubiri.

Ni umusaza ukuze ufite umusatsi w'imvi n'ubwanwa bw'imvi ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru.

Ni abagore bari k'umurongo ubona ko bameze nk'abari kubyina, bambaye imipira y'imyeru n'amajipo y'imikara, imbere ya bo hari uwambaye ikanzu isa n'igitambaro ateze umutwe.

Ni abantu babiri, umusaza ufite umusatsi wiganjemo imvi z'umweru wambaye ishati n'umwana muto ufite umusatsi w'umukara uteruye agapupe mu kuboko kw'iburyo.

Ni umusaza wambaye umupira w'umuhondo, wirengeje agatambaro, yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kugenda. Inyuma ye hari umukobwa wambaye imyenda y'ubururu uri kumusunika.

Ni abantu babiri. Umusaza wambaye agapira k'ubururu, n'agakabutura kagufi k'umukara. Ufite umusatsi wiganjemo imvi. Afashwe ku kaboko n'umukobwa wambaye imyenda y'umukara.

Ni abantu babiri umugabo wambaye agakote ka oranje ufite umusatsi n'ubwanwa byiganjemo imvi, uno mugore wambaye amarinete ufite umusatsi w'umukara, inyuma yabo hari igipangu cy'umukara.

Ni abantu babiri, umwe ni umukecuru ushaje ufite imvi nyinshi cyane mu musatsi we wambaye uduherena duto n'agashati k'umweru, undi ni umukobwa ufite imisatsi y'imikara wambaye agashati k'icyatsi kibisi.

Ni umusaza ufite umusatsi wiganjemo imvi z'imyeru, yambaye amarinete, imbere ye hari imeza iteretseho ikayi, afite ikaramu mu kuboko kwe kw'iburyo ari kwandika.

Ni abantu babiri, umugore wicaye mu kagare kababana n'ubumuga bwo kugenda ukenyeye igitambaro cy'umukara mu mutwe, wambaye n'amarinete n'umukobwa umuri iruhande wambaye ishati y'ubururu.

Ni abantu b'ingeri zitandukanye, bicaye mu ihema ry'umweru. Inyuma yabo, hari abambaye imyenda y'imikara, hirya gato hari ibiti birebire.

Ni abagore batatu ubona ko bakuzemo, bose bafite imisatsi yiganjemo imvi z'imyeru mu mutwe, umwe yambaye umwenda w'umuhondo, bari kureba muri terefone.

Ni umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku gatapi ahantu mu twatsi dutoshye, yambaye agapantaro kamwegereye k'umutuku, afite umusatsi unyereje wiganjemo imvi z'imyeru.

Ni abagore babiri bicaye, umwe afite ibisuko, yambaye agapira k'umukara, arambuye akaboko, ari kwitabwaho n'undi wicaye imbere ye wambaye akajire k'umutuku n'agashati k'umweru, hirya yabo hari abandi bantu, imbere yabo hari imeza iteretseho indangururamajwi y'umukara.

Ni amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, munsi yayo haciye akarongo kari mu ibara ry'umukara. Munsi yako hari ayanditse mu ibara ry'umutuku, iruhande rwayo hari ikimenyetso kiri mu ibara ry'ubururu n'umutuku.

Ni ababyeyi bane. Bose bafite abana bato b'impinja mu biganza byabo. Umwe nta gatambaro ateze, abandi batatu, bateze udutambaro mu mutwe.

Ni abantu bahagaze biganjemo abagore n'abagabo, bahagaze ahantu hasize irangi ry'icyatsi kibisi. Ku ruhande rw'iburyo, hahagaze umuzungu wambaye ipantaro y'umukara n'udukweto tw'umweru.

Ni abantu babiri bahagaze, umusore n'umukobwa, bafite utwapa twanditseho amagambo y'umuhondo n'umweru mu ntoki zabo, inyuma yabo hari intebe z'imyeru.

Ni abakobwa benshi bagiye bari mu matsinda atandukanye bari mu twapa, bambaye imipira y'imyeru, bari mu nzu yubakishije amatafari, ifite umuryango usize ibara ry'icyatsi.

Ni umugabo w'umuzungu, wambaye ingofero na marinete, afite akapa k'ibara ry'umweru kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Ni abagabo babiri bari kuramukanya, bombi bafite ibitabo mu ntoki. Umwe yambaye impeta ku gatoki ka mukuru wa meme, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru kiriho ibirango.

Ni itsinda ry'abantu bambaye imyenda y'imyeru n'udupfukamunwa ndetse na ga z'imyeru. Inyuma yabo, hari undi muntu wambaye imyenda n'agapfukamunwa bitandukanye n'ibyabo.

Ni abantu bahagaze biganjemo abagore n'abagabo, hagati harimo umugore wambaye ikanzu yibara ry'umuhondo ufite imisatsi y'umukara, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ibara ry'ubururu.

Ni abantu babiri, umugore wambaye agakanzu kagufiya k'umweru, karimo utuntu tw'umutuku n'umukara n'umuzungu wambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru, kirimo amagambo ari mu mabara agiye atandukanye, harimo ay'icyatsi n'ay'umweru.

Ni abantu benshi bicaye, imbere yabo hari itorero ryiganjemo abasore n'inkumi bari kubyina imbyino za Kinyarwanda, inyuma yabo hari icyapa cy'amabara y'umutuku n'umweru.

Ni abantu benshi bishimye biganjemo abagore n'abagabo, bamwe barasutamye abandi barahagaze, hagati harimo umuzungu wambaye imyenda isa, inyuma yabo hari icyapa kirimo amabara atandukanye, yiganjemo ay'umutuku n'ay'icyatsi.

Ni umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye amarinete n'amaherena, yambaye ishati y'ubururu bwijimye, imbere ye hari indangururamajwi ebyiri, yambaye n'isaha y'umukara ku kuboko kw'ibumoso.

Ni abantu b'igitsina gore bicaye bareba imbere, bamwe bambaye imipira y'imikara, abandi bambaye iy'imweruru, imbere yabo hari ameza ariho udutambaro tw'amabara atandukanye inyuma yabo hari idirishya ry'ibara ry'icyatsi.

Ni abantu babiri, umusore ufite imisatsi isanzwe, wambaye agapfukamunwa n'ishati y'ubururu n'undi uri kumutera urushinge, wambaye ishati y'umweru n'akajire wambaye ingofero mu mutwe.

Ni akana k'agahinja kambaye imyenda y'imyeru, gateruwe n'umubyeyi usutse ibiryamye. Ari kugaha umuganga wambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa n'agatambaro mu mutwe.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara na ga z'umweru, afite urushinge aruteye umugabo wambaye ishati y'umweru n'agasengenge k'umweru, imbere yabo hari abandi bantu.

Ni abantu bicaye bareba imbere ku ntebe ndende z'urubaho, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote. Inyuma ye hicaye abandi bantu babiri, imbere yabo hari imeza, inyuma hari ikibaho cy'umukara kimanitseho icyapa cy'umweru.

Ni abantu bane. Abagabo babiri baryamye ku bitanda byo gufashirizaho abarwayi n'abagore babiri b'abaganga, bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa, bari ku bitaho. Bari mu ihema ry'umweru.

Ni inzu ifite igisenge cy'amabati y'umutuku, isize irangi ry'umweru hejuru n'iry'umukara hasi. Imbere yayo hari amadarapo abiri. Imbere yayo hari imbuga ishashemo amapave.

Ni umubyeyi ukenyeye igitenge uhetse umwana, imbere ye hari igipangu gifunguye uruhande rumwe mu imbere, hari inzu isize irangi ry'umuhondo ifite igisenge cy'amabati y'ubururu.

Ni abantu benshi batandukanye. Bamwe bambaye imipira isa abandi bambaye bisanzwe. Hari abegeranye bambaye udupfukamunwa hirya yabo hari ihema ry'umweru, hirya yaryo hari inzu y'umweru ifite igisenge cy'ubururu.

Ni inzu y'amatafari, isize irangi ry'umuhondo, ikagira igisenge cy'amabati y'ubururu, ifite inkingi imbere yayo hicaye abantu, ifite amadirishya n'inzugi by'umukara, imbere yayo hari imbuga.

Ni icyapa kiriho ibirango, hagati yabyo handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, munsi hari amagambo ari mu ibara ry'ubururu. Kiri mu mbuga irimo ubwatsi bwumye, hirya hari inzira. Hirya hari inyubako ndende ifite igisenge cy'umutuku, n'amadirishya y'ibirahure.

Ni umwana wambaye imyenda y'ubururu, ateruye akabase k'umukara, inyuma ye hari umuntu mukuru n'undi mwana, hirya yabo hari inyubako zitandukanye.

Ni umugabo ufite umusatsi mukeya n'ubwanwa bukeya wambaye itaburiya y'umweru, ifite umufuka urimo ikaramu, ku kuboko kwe kw'ibumoso yambaye isaha y'umukara.

Ni inzu yubakishije amatafari isakaje amabati asanzwe ifite idirishya ry'umweru ririmo ibirahure iruhande rwayo hari ibiti birebire hino hari imbuga iri kunyuramo igare.

Ni inzu ndende y'igorofa rimwe ifite amadirishya y'umweru, iriho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, ashushanyijeho umugore utwite uri mu ibara ry'icyatsi.

Ni inzu yubakishije amatafari, ifite inkingi z'umweru, hasi hateyeho irangi ry'umukara, imbere yayo hari indabo, hirya gato hari ubwatsi.

Ni umwana uri mu munzani bapimiraho abana ibiro, imbere ye hahagaze umugore wambaye agashati k'umweru uri kumureba, hepfo yabo hicaye abandi babyeyi.

Ni inzu ndende y'amagorofa atatu ifite ibigega hejuru na za antene, hasi haparitse imodoka aho winjirira hari imodoka iri gusohoka.

Ni inzu ifite igisenge cy'amabati y'ubururu. Imbere yayo hari ikigega cy'umukara, ifite amadirishya ateye ibara ry'icyatsi y'ibirahuri.

Ni inzu yubakishije amatafari, iteye ibara ry'umuhondo ahagana hejuru. Yanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, iruhande rwayo hateye indabyo zirimo uduti tureture.

Ni inzu ndende y'amagorofa abiri yubakishijwe n'amatafari. Hejuru ifiteho icyapa cy'umweru, kiriho amagambo yanditse mu mabara y'umukara, icyatsi ndetse n'umutuku.

Ni umubyeyi uhagaze ahetse umwana wambaye akagofero, yiteye igitambaro cy'umweru imbere ye hari amarembo afunguye uruhande rumwe, hirya hari inzu isize ibara ry'umuhondo ifite igisenge cy'amabati y'icyatsi.

Ni mu nzu yabugenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibyuma byabugenewe mu gukora iyo myitozo, hejuru ifite igisenge cy'umweru kifite amatara ari kwaka.

Ni abantu bane b'igitsina gore bahagaze mu mbuga y'amapave, bambaye udupfukamunwa. Inyuma yabo hari inzu ndende, ku ruhande rumwe ifite ibara ry'umuhondo.

Ni inzu ifite igisenge cy'amabati y'ubururu, iteye irange ry'umweru, imbere hari inkingi z'umweru. Hirya hari ibiti birebire, imbere hari imbuga ngari.

Ni umukobwa ufite ibisuko, wambaye itaburiya y'umweru, ufite ikaye mu ntoki ze n'ikaramu, imbere ye hicaye undi na we ufite ibisuko, wambaye agapira, inyuma yabo, hari umuzungu wambaye imyenda y'ubururu, ufite na we ikaye mu ntoki.

Ni abantu babiri bicaye. Umwana wambaye agashati k'umweru n'amaburuteri, n'umugore wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa.

Ni umukobwa ufite ibisuko by'umukara, yambaye ishati y'ubururu, munsi ye haryamye umurwayi arikumwitaho, inyuma yabo hari imashini zo kwa muganga.

Ni inzu yubakishije amatafari, ifite imiryango y'umuhondo irimo ibirahuri, imbere yaho hari intebe, ifite n'inkingi z'umuhondo, ku ruhande hari ikigega cy'umukara.

Ni inzu yubakishije amatafari, hasi isize irangi ry'umuhondo, imbere ifite inkingi y'umuhondo. Iruhande rwayo hari intebe yicayeho abantu, hepfo hari abantu bahicaye.

Ni inzu mberabyombi ifite amadirishya y'ibirahure, irimo intebe z'imikara zizinze, imbere yazo hari utumeza duteretseho amamikoro, imbere hari imeza nini y'umweru.

Ni abagabo babiri umwe wambaye agashati k'amaboko magufiya n'undi wambaye agapira k'umweru n'akajire k'umukara na marinete, imbere yabo hari imeza y'umweru n'umukara, inyuma hari kizimyamwoto ebyiri n'icyapa cy'umweru.

Ni ibitanda byo kwa muganga bifite ahagana hepfo hasa n'ibara ry'umweru, bishasheho utumatora duto turi mu ibara ry'icyatsi, hari n'amadirishya y'ibirahure.

Ni inzu nini ngari isize ibara ry'umweru, imbere yayo hari inkingi z'umweru, imbere gato hateye ikirabo kirekire, hino hari imbuga inyurwamo n'ibinyabiziga n'abantu.

Ni abantu babiri umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge uteze igitambaro cy'umukara mu mutwe, imbere ye hari undi mugabo wambaye ishati n'ipantaro by'ubururu hirya yabo hari urutoki.

Ni inzu yubakishije amatafar, ikagira inkingi zisize ibara ry'umuhondo. Imbere yayo hahagaze abantu, ikagira amadirishya n'imiryango by'umukara harimo ibirahure.

Ni umugabo uri guseka ufite umusatsi usanzwe wambaye rinete n'itaburiya y'umweru, mu biganza bye afitemo agatabo, hirya ye hari umwana wambaye ikanzu y'ubururu.

Ni inzu yubakishije amatafari, ifite igisenge cy'amabati y'ubururu, ku ruhande ifite inkingi isize ibara ry'umuhondo. Imbere yayo hari abantu bicaye n'abandi bahagaze, hagati hariho umusirikare wambaye imyenda, ya gisirikare.

Ni akana kicaye ku gitanda cyo kwa muganga, kambaye ipantaro y'umukara, imbere yako hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa uri kukitaho, hepfo hicaye umusore wambaye agakabutura k'umweru uteze n'igitambaro mu mutwe.

Ni inzu igurirwamo imiti, mo imbere harimo umubyeyi uhetse umwana n'agatambaro k'umweru, iruhande rwe hari abandi bagore babiri n'akana kamuhagaze imbere.

Ni umukecuru wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kugenda, yambaye agapfukamunwa, imbere ye hahagaze umugore ufite ibisuko wambaye imyenda y'imyeru uri kumwitaho, hirya yabo hari imeza n'abandi bantu.

Ni abantu bicaye n'umugore uhagaze imbere ye hari imeza iriho igitambaro, hirya hari umugabo uhagaze wambaye ikote ry'umukara n'agapira k'ubururu.

Ni abantu batatu. Umukobwa urwaye uryamye ku gitanda n'umugore n'umugabo bahagaze hejuru yiwe, abari kumusuzuma bareba uko ameze, bari mu nzu ifite ibikuta by'umweru.

Ni abantu bicaye ku ntebe z'icyatsi biganjemo abagore n'abagabo, bamwe bambaye imipira isa y'ibara ry'icyatsi, abandi bambaye isa y'ibara ry'umuhondo, hasi yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Ni inzu ndende isize ibara ry'umuhondo ifite amadirishya y'ibirahure, hejuru yayo hari icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'ubururu, hasi hari imbuga ngari.

Ni abantu babiri bicaye mu ntebe, umusaza ufite imvi mu musatsi n'ubwanwa bwo hejuru y'umunwa wambaye rinete n'ishati y'amaboko maremare itukura n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu yo kwa muganga ufite imisatsi ijya kuba miremire.

Ni inzu ndende, ngari, isize ibara ry'umweru, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara imbere yayo hari ibiti birebire.

Ni inzu ndende y'amagorofa menshi ifite amadirishya y'ibirahuri, hejuru hariho icyapa cyanditse mu ibara ry'icyatsi, hasi hari ibirabo birebire bihateye.

Ni inzu isize ibara ry'umuhondo, ifite imiryango y'ibirahure, hejuru iriho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru, kirimo amagambo ari mu mabara y'umweru n'icyatsi.

Ni umubyeyi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga. Ateze igitambaro mu mutwe igisa n'icyo yambaye. Hejuru ye hari umusegetera, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'amarinete, uri kumwitaho.

Ni inzu yubakishije amatafari ifite igisenge cy'amabati asanzwe, ifite idirishya ry'umweru ririmo ibirahure, iruhande rwayo hari ibiti birebire.

Ni inzu ndende y'amagorofa atatu, isize ibara ry'umuhondo, hejuru hariho ikigega cy'umukara, hirya hariho am'anteni, hasi hari imodukari zitandukanye n'ibirabo

Ni abagore batatu bambaye amashati y'ibara ry'ubururu, bose bambaye udutambaro mu mutwe, inyuma yabo hari umuhanda w'igitaka mu mpande hari ibiti birebire, hepfo hari igihuru

Ni umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, ari kumanika umusegetera, imbere ye hari igitanda kiryamyeho umurwayi wiyoroshe.

Ni ibitanda by'umweru byo kwa muganga, bishasheho amashuka y'icyatsi. Aho biri, hari ibikuta by'umweru hejuru hari itara riri kwaka.

Ni inzu yabugenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, ifite inkingi z'umweru, harimo n'ibyuma byabugenewe mu gukoresha siporo, ifite amadirishya y'ibirahure.

Ni inzu yubakishije amatafari ifite igisenge cy'ubururu, imbere hari inkingi y'umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara inyuma yayo hari ibigega bibiri.

Ni umugabo wambaye ishati y'umweru wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kugenda gasa umukara, inyuma ye hari umwana wambaye agakote k'umukara n'ipantaro uri kumusunika.

Ni inzu ifite imiryango y'ibirahure. Hejuru hariho inyuguti ziri mu mabara agiye atandukanye, ay'umutuku, ubururu, icyatsi n'umuhondo. Hasi hariho utuntu tw'umukara, turiho amatara y'umuhondo.

Ni inzu ndende y'amagorofa abiri ifite igisenge cy'ibara ry'umukara, ikagira amadirishya y'ibirahure, imbere hayo handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hasi haparitse imodoka.

Ni umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'ibara ry'ubururu n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari ibyatsi, yicaye munsi y'igiti kinini gifite amashami.

Ni inzu yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, ku gikuta cyayo gisa umweru hamanitse isaha, ifite amadirishya y'ibirahure, irimo n'ibikoresho byagenewe gukoreshwa siporo ngororamubiri.

Ni inzu ndende y'igorofa rimwe ifite igisenge kiriho amabati y'ibara ry'ubururu igasa umweru ifite inkingi, imbere yaho hariho icyapa k'ibara ry'umweru kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Ni intebe z'imikara ziticawemo n'abantu, hirya hari izindi zicawemo n'abantu. Imbere yabo hari imiryango y'ibirahure, hejuru hari amatara y'imyeru ari kwaka.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru. Hirya hari inzu yubakishije amatafari, ifite igisenge cy'amabati y'ubururu, ikagira imiryango y'umweru.

Ni umuntu wambaye umwenda w'ibara ry'icyatsi, yicaye mu kagare kababana n'ubumuga bwo kugenda. Imbere ye, hari inzira ishashe, hirya yayo hari indabo. Hirya hari ikigega cy'ibara ry'umukara.

Ni umusore uri kwiruka, wambaye agakabutura kagufiya, n'agasengeri k'umweru karimo amabara y'umukara n'umutuku, n'imboga z'amashu, n'imbuto na karoti.

Ni umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ahantu hari ibyatsi, yambaye agasengeri k'umukara. Amaboko ye ararambuye, intoki ze zifashe ku nkweto yambaye.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ibiganza bye bifashe ku kaguru k'umuntu uryamye, imbere ku ivi n'ahagana hepfo ku itako.

Ni umukobwa wabize ibyuya. Yambaye agasengeri, afite umusatsi w'umukara, mu kaboko ke k'iburyo afitemo icupa ry'amazi ari kuyanywa, ku rutugu rwe hariho isume.

Ni umugabo uri mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aryamye hasi yambaye agakabutura kagufi k'umukara n'agapira k'amaboko magufi, ku kuboko kwe kw'iburyo yambayeho akantu k'umukara.

Ni umugabo uri mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ateruye icyuma, yambaye umupira w'umukara n'ipantaro hirya ye hari ibindi byuma byabugenewe mu gukoresha no gukora siporo.

Ni umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye agapira k'umutuku, wambaye na ekuteri, afite agacupa k'amazi mu kuboko kwe kw'ibumoso ari kuyanywa.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi, yambaye agapantaro kamwegereye k'umukara n'agasengeri kajya gusa umweru, hirya ye hari intebe zo kwicarwamo.

Ni umusore wambaye umupira w'umukara urimo uturongo tw'umweru ahagana ku rutugu, afite utwanwa duke imbere kukananwa, mu kuboko kwe kw'iburyo ateruye agacupa karimo amazi.

Ni umusore wicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umukara ukuboko kwe kw'ibumoso kuriho isaha y'umukara, ukuboko kwe kw'iburyo gufashe ku imfundiko y'ukuguru.

Ni akagare kagenderwamo n'ababana n'ubumuga bwo kutagenda. Gafite amaferi ku mpande zombi ku buryo no ku bumoso. Gafite aho kwicara hari umusego w'umukara. Gafite amapine na yo asa ibara ry'umukara.

Ni umukobwa uri kunywa amazi, yambaye agasengeri k'ibara ry'umukara, hirya ye hari ibiti bitagaragara neza, yambaye agapantaro kamwegereye k'ibara ry'umukara.

Ni umukobwa ufite umusatsi mucye usanzwe, wambaye agasengeri karimo amabara y'umweru, ubururu n'icyatsi, mu kuboko kwe kw'iburyo afite agacupa karimo amazi ari kuyanywa.

Ni umukobwa wicaye hasi, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapantaro kamwegereye k'umukara karimo utubara tw'umutuku, yambaye inkweto zitukura, imbere ye hari icupa ririmo amazi.

Ni umukobwa uhagaze uzamuye amaboko, yambaye agasengeri k'umweru afite umusatsi mwinshi, yambaye n'ipantaro, imbere ye hari amazi menshi y'inyanja.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye agapantaro k'umukara, n'agasengeri k'umukara. Afite imisatsi myinshi, imbere ye hateretse icupa ririmo amazi.

Ni agatanda kabugenewe gutwaraho indembe, gasa n'umuhondo, kariho imigozi y'umukara, irimo utuntu tw'umutuku.

Ni umusore wambaye agapira kamwegereye, yambaye na ekuteri, mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo agacupa k'amazi, agiye kuyanywa.

Ni agatanda kabugenewe gutwaraho abarwayi. Kari mu ibara ry'umuhondo, kariho imigozi iri mu ibara ry'umukara. Haruguru hariho abagabo babiri bambaye imyenda y'umutuku, bateruye ako gatanda.

Ni umugabo wicaye, wambaye ipantaro y'umukara, nagapira k'ubururu, afite terefone mu kuboko kw' ibumoso, yambaye n'isaha y'umukara ari kunywa amazi.

Ni abantu babiri, umugore wambaye agapira k'umutuku karengejeho ijire y'ubururu irimo amagambo y'imyeru usutse, ari kumurika mu maso y'umwana amusuzuma.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapantaro k'umukara, afite ibisuko ku mutwe. Hirya ye hateretse ibirabo bitandukanye.

Ni umukinnyi uryamye hasi mu kibuga, abaganga babiri umugore n'umugabo bambaye amajire y'imituku bari kumwitaho, iruhande rwabo hagaze abandi bakinnyi, hirya hari abandi bakinnyi.

Ni imbuto z'ubwoko butandukanye n'ibinini, muri zo higanjemo inanasi, imineke, indimu, amaronji, n'amapera, ku ruhande hari icupa.

Ni umukobwa ufite umusatsi mukeya usanzwe wambaye agasengeri karimo amabara y'ubururu n'icyatsi, yiteye agasumi k'umweru, mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo agacupa k'amazi ari kuyanywa.

Ni umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara irimo akarongo k'umweru n'umupira w'umukara, amaboko ye ari hejuru, imbere ye hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'umukara.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru. Intoki ze, zifashe ku ivi ry'undi muntu uryamye, wambaye agakabutura kagufiya.

Ni umusore wicaye, afite ubwanwa bukeya, ku kuboko kwe kw'iburyo yambayeho akantu k'icyatsi, mu kuboko kw'ibumoso afitemo icupa ry'amazi ari kuyanywa.

Ni umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi ku gatapi. Yambaye amasogisi y'umweru n'agapantaro kamwegereye gasa n'isengeri. Afite imisatsi, ku rutoki rwe rwa mukuru wa meme hariho impeta, hirya ye hari intebe z'umukara. Inyuma ye hari agatebe k'agataburete.

Ni umusore w'ibigango, yambaye agaseri, yikoreye amaboko, ku kuboko kwe kw'ibumoso hariho isaha y'umukara, afite umusatsi.

Ni abantu babiri. Umukobwa n'umusore b'abazungu, begamanyeho. Umusore afite umusatsi mucye, umukobwa afite umusatsi mwinshi, bose bari kunywa amazi.

Ni ibinini byinshi bitandukanye, bahurije hamwe bigakora ishusho yumuntu uri kwiruka, inyuma hari urushinge rufunguye.

Ni umugabo ufite ubwanwa buke buke, wambaye agapira k'ubururu bwijimye, ukuboko kwe kw'iburyo yambayeho isaha y'umukara, mu kiganza afitemo icupa ry'amazi, ari kuyanywa.

Ni umuntu w'igitsina gore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi amaboko ye azamuye hejuru, imbere ye hateretse mudasobwa, ku ruhande rwe hari icupa ririmo amazi n'udukoresho twabugenewe mu gukora imyitozo.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye agapantaro kamwegereye n'agasengeri, afite umusatsi muremure. Amaboko ye ari hejuru, hirya ye hari igikuta cy'umweru.

Ni udukapu tubiri tw'ibara ry'umutuku n'umweru dufite imashini z'imikara, kamwe karafunguye akandi karafunze, agafunguye harimo ibikoresho by'ibanze byakifashishwa mu buvuzi.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye ku gatapi k'umweru, yambaye agapantaro kamwegereye n'agasengeri byose biri mu ibara ry'icyatsi, arambuye amaboko ye arunamye.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku itapi y'ibara ry'icyatsi, arunamye amaboko ye ararambuye intoki ze zifashe ku biganza bye.

Ni umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye inkweto za siporo n'amasosogisi y'umweru, yambaye agasengeri k'ibara ry'icyatsi n'agapantaro k'ibara ry'ubururu.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yicaye hasi yambaye agapantaro k'umukara n'inkweto z'umutuku n'umweru n'amasogisi y'umukara. Ukuboko kwe gufashe ku kirenge.

Ni umugabo uryamye wambaye amasogisi y'umweru n'agakabutura k'umukara karimo amabara y'umweru n'icyatsi, azamuye akaguru kari ku bitugu by'undi mugabo w'umuzungu wambaye isaha.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye mu bwatsi yambaye agakabutura kagufiya k'ubururu, karimo imirongo y'umweru, afite imisatsi myinshi.

Ni umugore ufite imisatsi mikeya, wambaye agasengeri karimo amabara atandukanye y'ubururu, umweru n'icyatsi, yiteye agasume k'umweru, afite agacupa ari kunywa amazi.

Ni umukobwa ufite ibisuko biryamye uri kwambara agapfukamunwa, imbere ye hari imeza iriho impapuro n'udukarine na mudasobwa, yambaye ishati y'ubururu y'amaboko magufi.

Ni umugabo wicaye hasi wambaye agakabutura kagufi k'umukara n'umupira w'amaboko maremare ufite ingofero, ku ruhande rwe hateretse igikapu cy'umukara. Afite agacupa mu kiganza cye cy'ibumoso ari kunywa amazi.

Ni umukobwa wunamye, yambaye agakabutura kagufi ya ka siporo, ku kuboko kwe kw'iburyo yambayeho isaha y'ibara ry'icyatsi, yambaye akabano mu mutwe n'ako k'icyatsi, yambaye n'inkweto ziriho imishumi y'umukara ariko z'icyatsi.

Ni abagabo babiri bambaye amajire y'umutuku n'udupira tw'umweru bateruye umusore umerewe nabi wambaye agapira k'umuhondo kariho nimero eshatu. Inyuma yabo hahagaze abandi bantu bambaye udupira tw'umweru, hari n'ibiti.

Ni umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri ufite utwanwa dukeya ku kananwa, yambaye agakora k'umukara karimo akarongo k'umweru, yambaye impeta ku rutoki rwe rwa musumbazose. Intoki ze zifashe ku matako yiwe.

Ni umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri aryamye hasi ku gatapi k'umukara, hirya ye hari igikuta cy'umweru n'idirishya ry'umweru ririmo ibirahure.

Ni umwana wicaye hasi uri guseka, inyuma ye hapfukamye uwihayimana wambaye agatambaro k'umweru mu mutwe, imbere ye hari umuzungu umufashe ku birenge. Hirya yabo hari abandi bantu bahicaye, hamanitse ibitambaro by'amabara agiye atandukanye yiganjemo umuhondo, umweru, icyatsi.

Ni umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara, yambaye ekuteri n'akantu k'umukara, ku kuboko kwe kw'iburyo. Mu kiganza cye, afitemo agacupa k'amazi, ari kuyanywa.

Ni agacupa karimo amazi, gafite umupfundikizo w'ubururu, iruhande rwako hari imbuto zitandukanye ziganjemo pome, n'izindi z'ubundi bwoko, hari ibyuma byabugenewe gukoresha siporo, ndetse na metero.

Ni icupa ririmo amazi ripfundikije umupfundikizo w'ubururu, ririmo imihiro myinshi, riteretse ahantu hari amazi yatumbagiye impande zaryo.

Ni umugabo w'umuzungu, wambaye ishati n'itaburiya by'umweru, na karavate irimo amabara atandukanye, ateruye umupira wa Rugby mu ntoki.

Ni umusore wambaye agapira k'ubururu, ku kuboko kwe kw'iburyo hariho agatambaro k'umweru, mu kuboko kwe kw'ibumoso hariho agatambaro k'umukara, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa.

Ni umugabo wunamye, wambaye agakabutura kagufiya k'umukara, ku kuboko kwe kw'ibumoso hariho isaha. Ibiganza bye icy'iburyo n'icy'ibumoso, bifashe ku ivi rye.

Ni umukobwa ufite ibisuko wambaye agapfukamunwa k'umukara n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, yambaye impeta ku rutoki rwe rwa mukuru wa meme, ari gushyira igipfuko ku mukinnyi.

Ni umugore wambaye ishati y'umweru n'agashenete, yambaye impeta ku gatoki ke ka mukuru wa meme. Ikiganza cye gifashe igishashi kiri ku kaboko k'ibumoso.

Ni ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu buvuzi. Ibinini, imakasi, ga, ibipfuko, inshinge n'iy'indi miti.

Ni umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, wicaye hasi. Yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umuhondo, amaboko ye ayarambuye akoze ku kirenge cyiwe.

Ni abantu benshi biganjemo abana n'abantu bakuru, bahagaze mu kibuga cya basiketi. Hirya yabo hari inzu ifite igisenge cy'amabati y'umutuku, hirya hari urutoki n'ibiti birebire.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaguru kamwe karapfukamye akandi gahagaze ku kirenge, yambaye isengeri y'umweru, imbere ye hari icupa ririmo amazi, hirya yaryo hateretse ikirabo.

Ni umugabo uri gukora imyitozo, yambaye agakabutura kagufiya k'umukara karimo amabara y'umutuku n'umweru, yambaye n'agasengeri, afite imisatsi miremire, hirya ye hasutamye umugore w'umuzungu.

Ni abantu bicaye n'abandi bahagaze bose bambaye udupfukamunwa n'udutambaro mu mutwe, abicaye imbere yabo hari imeza iriho za mudasobwa bari kureba kuri ekara.

Ni uducupa dufite imipfundikizo itandukanye turimo n'ibintu bitandukanye, twose turiho udupapuro tw'umweru tugiye twanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ni agakarito k'umweru gafite mu mpande h'umuhondo. Gashushanyijeho ibimera by'ibyatsi, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi. Asobanura, ibiva muri ibyo bimera biri muri ako gakarito.

Ni uducupa dutatu tubiri tw'umweru dufite imipfundikizo y'umweru n'akandi k'umuhondo gashushanyijeho igikakarubamba gafite umupfundikizo w'ibara ry'umukara.

Ni agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, gashushanyijeho igikakarubamba kiri mu ibara ry'icyatsi, handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, hariho n'ikiguruka kiri mu ibara ry'icyatsi.

Ni akajerekani k'umweru gafite umupfundikizo w'umutuku. Kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hasi hariho umurongo munini uri mu ibara ry'umutuku wanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ni abantu benshi batandukanye, biganjemo abagore n'abagabo. Bamwe bambaye imipira y'ibara ry'icyatsi isa, undi yambaye imyenda y'imikara, hahagaze mu murima uteyemo ibikakarubamba, hirya yabo hari ibiti n'ibyatsi.

Ni akajerekani k'umuhondo, gafite umupfundikizo w'ibara rya shokora, hariho amagambo yanditse mu ibara rya shokora, hariho n'ikimenyetso k'ikiguruka.

Ni imeza iteretseho amacupa atandukanye afite imifuniko yiganjemo iy'imyeru n'iy'umutuku, ku ruhande rumwe hahagaze umugabo wambaye ipantaro, ku rundi ruhande hahagaze umugore wambaye agatambaro k'umweru mu mutwe.

Ni uducupa dutatu twose dufite imipfundikizo y'umweru, tubiri turareshya akandi kamwe karadusumba, twose twanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye yiganjemo umuhondo n'umutuku.

Ni agakarito k'ibara ry'umuhondo, karimo umurongo unyuzemo uri mu ibara ry'icyatsi, hariho amagambo yanditse ari mu ibara ry'umukara, hariho n'ikirango cy'ikiguruka, imbere yako, hateretse ibinini biva muri ako gakarito.

Ni agacupa k'umweru kari ahantu hijimye gafite umupfundikizo w'umweru, kazengurutswe n'umurongo w'ibara ry'umuhondo. Handitseho amagambo, hariho n'ikirango cy'ikiguruka kiri mu ibara ry'umukara.

Ni agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, kariho icyapa gishushanyijeho uruyuki ruri guhovwa, hariho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Ni amacupa menshi atandukanye ari hasi no hejuru, harimo irisa umweru rifite umufuniko w'umutuku, hejuru harimo menshi afite imifuniko y'umuhondo.

Ni umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'ubururu, yambaye agapfukamunwa n'agatambaro k'ubururu mu mutwe. Imbere ye hari udukarito n'amacupa y'umukara.

Ni uducupa tubiri tw'imihondo dushushanyijeho igikakarubamba, hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, iruhande rwatwo hateretse ikirahure, ku rundi ruhande hateretse uduce tw'igikakarubamba.

Ni ishyamba ry'inzitane. Ririmo ibyatsi bigufiya, byegeranye, bicucikiranye, rikaba ririmo n'ibiti birebire biri ku ruhande rwo hino n'ibindi biri hirya, bicucikiranye cyane.

Ni agacupa k'umweru kari ahantu hijimye gafite umupfundikizo w'umweru, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, hariho ikirango cy'ikiguruka kiri mu ibara ry'icyatsi.

Ni uducupa dutatu tw'umweru, tubiri turareshya akandi ni kagufi, twose dufite imifuniko y'imyeru, turiho utwapa tugiye twanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, yiganjemo ay'ubururu n'ay'umutuku.

N'akajerekani k'umweru gafite umupfundikizo w'ibara ry'ubururu kanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, hariho n'ikirango cy'ikiguruka.

Ni agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, kariho akapa kanditseho amagambo ari mu ibara rya oranje, imbere yako harunze ibinini.

Ni amacupa ateretse ku meza. Agiye arimo imiti itandukanye, anafite forume zitandukanye. Amwe afite imifuniko y'imikara, andi afite iy'icyatsi kibisi. Harimo n'irifite uw'umweru.

Ni utujerekani dutatu tumeze kimwe, dufite imifuniko y'amabara atandukanye. Kamwe muri two ni umuhondo. Inyuma yatwo hari ibice by'igikakarubamba bitatu.

Ni agacupa k'umweru, kari ahantu hijimye, gafite umupfundikizo w'umweru. Kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi hejuru hariho ikirango k'ikiguruka.

Ni agacupa k'umweru kari ahantu hijimye, gafite umupfundikizo w'umweru. Kariho akapa kanditseho amagambo y'ibara ritukura, hasi handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ni etajeri irimo uducupa tw'imiti igiye itandukanye .Dufite imipfundikizo y'amabara yiganjemo umukara, umutuku, umweru ndetse n'umuhondo.

Ni agakarito kari mu ibara ry'umuhondo hariho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hariho n'ikirango cy'igisiga, imbere yako hari ibinini biva muri ako gakarito.

Ni etajeri irimo amacupa agiye atandukanye, amagufi n'amaremare, harimo imiti itandukanye, afite n'imipfundikizo idasa, hasi hari icupa ry'umweru ripfundikijwe n'umufuniko w'umutuku.

Ni isoko rinini ricururizwamo ibintu bitandukanye byiganjemo imboga, ririmo abantu benshi. Risakaje amabati. Imbere hano hari umugabo uhahagaze, wambaye ishati y'umuhondo., imbere ye hari imeza iteretseho uducupa dufite imifuniko y'umuhondo.

Ni imeza iteretseho uducupa dutandukanye. Turimo ibintu bitandukanye, dufite imipfundikizo yiganjemo iy'umutuku, iy'umweru n'iy'imikara. Ku ruhande rwo hino hahagaze umugabo wambaye ipantaro n'ishati, ku rundi ruhande hahagaze umugore ukenyeye agatambaro k'umweru mu mutwe.

Ni agacupa k'umukara kari mu biganza bibiri bigerekeranye, gafise umufuniko w'umukara kariho akapa kariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.